Guteka ibiryo muri bare bigiye bitandukanye bituma abantu biteza imbere, ndetse bakabona n'amafaranga bagize ku buryo umuntu ejo hazaza haba ari heza.

Inzu nziza yubukishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'ubururu, hariho ikirango cya pirimusi, n'amadirishya asa n'umweru.

Akabari ni keza iyo umuntu yagiye nko gusohokana n'inshuti ye, bituma abantu basabana mbese n'ubunshuti bukagenda bwiyubaka neza cyane.

Ahantu h'akabare, uri ukubona ko harimo inzoga zitandukanye ,kuko biragaragara cyane nubwo nta muntu urimo ukoramo.

Inyama zokeje bazishyize hejuru y'umuriro, uri kubona ko bagiye kuzibabura neza ,kugira ngo zorohe bari kuzirya.

Abantu benshi bari kujya ahantu hasa nkaho ari mu kabari mu nzu nziza, hariho amatara ari kwaka amaroza n'abantu benshi biganjemo abahungu n'abakobwa bari no kunywa.

Akabari karimo abantu benshi, harimo abakobwa n'abagabo higanjemo n'urubyiruko.

Ahantu hari umugabo, uri kubona ko aho hantu hari ibikoresho bya kera bari kugaragaza, kuko byari bifitiye u Rwanda akamaro.

Umugabo wambaye imyenda y'abatetsi, ateka muri hoteri afite inyama zitunze ku mishito azijyaniye abakiriya.

Akabari ni keza ku muntu wagashinze, yinjiza amafaranga ku buryo yabasha kuba yaba yakwiteza imbere cyane.

Akabare kabasha kuba wagakora kakaba kakwinjiriza amafaranga, hanyuma nyine ukabasha kwiteza imbere, mu bintu bigiye bitandukanye by'akabari.

Inzu yubatse neza iriho n'amakaro, ifite imiryango y'icyatsi ,hari kunyuraho umugore urikugenda mu nzira.

Icyapa kiri kugaragaza ifamu ry'inkoko ku bacuruza amagi bakanagura inkoko ndetse zivamo inyama.

Ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, umwuga wo gucuruza ibyo kurya nibyo kunywa ukijije abantu benshi, kandi ibyo kurya ni byiza ndetse n'byo kunywa ni byiza.

Inyubako zubatse neza, kandi ziteye amarangi asa n'umuhondo n'ubururu, aha ngaha hariho umumotari uri kumwe n'umugenzi yari amaze gutwara, cyangwa se akaba agiye kumutwara.

Inzu nziza yubakishije amakaro, iteye kuruhande irangi ry'umuhondo, ifite inzugi z'icyatsi, hanze yicayeho n'umugabo wicaye ku ntebe, hanze hariho ahantu hari amabuye.

Inzu yubatse neza iteye amarangi y'umweru n'umukara, ndetse n'ubururu, ku rugi hariho umugabo uhahagaze, ndetse n'umumotari uri gutwara moto. Umwuga w'abamotari utunze abantu benshi cyane, kuko uvamo amafaranga.

Iyi nzu nziza yubakishije amakaro, hariho ibintu biranga ko ari muri resitora, yitwa "Kimaranzara."Haparitse moto z'abamotari, bigaragara ko bagiye kuriramo.

Ubucuruzi butandukanye harimo baro, imyenda ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi ndetse na rinete z'amaso n'ibindi byinshi, ubucuruzi ni bwiza cyane bukura umuntu mu bukene.

Inzu yubatse neza, iteye irangi ry'umuhondo, mu rugi harimo irido, hariho n'icyapa kigaragaza ko ari bare.

Ahantu heza hari abantu babasekirite hariho n'imodoka, hariho n'icyapa cyandikishije amagambo asa nk'umuhondo handitse ngo werikamu tu Fatima hoteli.

Inzu yubatse neza iri kugaragaza ahantu bacuruza isabune y ifu yitwa omo, hanze hariho ameza nintebe.

Inzu bacururizaho icyayi kuko ku cyapa cy'aho hariho agatasi kariho icyayi. Icyayi ni cyiza ku bantu bose haba abana, abagabo, abagore n'abandi benshi.

Inzu zubatse neza bigaragara ko, ari ahantu bajya gufatira agakawa, ikawa ni nziza cyane mubuzima bwa muntu.

Inzu zubatse neza ziriho n'amakaro, ziteye irangi risa n'umuhondo n'inzugi zisa n'icyatsi, abantu bari kwinjira munzu bagiye guhaha.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga: hari inzu zubatse neza ndetse hari n'amashanyarazi kandi n'umuhanda ni kaburimbo. Hari n'umuntu uri mu mutaka wa MTN utanga ama inite.

Inzu nziza yubakishije amakaro hariho ibyapa bya kanari, iyo nzu ifite inzu z'ica inzu inzugi z'icyatsi harimo umugabo uri kwinjiramo.

Inzu isa nkaho ishaje, kandi iyi nzu hariho umuntu uri gukanika amatelefone n'undi muntu uri gukubura, hirya yaho haparitseho imodoka ebyiri.

Inzu yubatse neza ifite inzugi ziteye amarangi asa n'icyatsi, iyi nzu ikorerwamo umwuga w'ubukanishi, ubukanishi ni bwiza cyane kuko butunze abantu benshi.

Inzu zubatse neza ziriho amakaro, hariho n'ibyapa bigaragaza ibintu bakoreramo, harimo aho bakorera saro ndetse no ku irembo, ubucuruzi ni bwiza cyane kuko butanga amafaranga.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye. Ubu bucuruzi harimo ibinyobwa bitandukanye. Harimo ibyo kunywa ndetse harimo n'amavuta. Urugi ruteye amarangi y'ubururu ndetse n'inzu yubatse neza.

Umugore uri gucuruza n'undi wicaye usa nkaho yaje kugura, bari gucuruza ibirayi, inyanya, igitoki, ibitunguru, igisheke, n'ibindi byinshi.

Inzu nziza ifite amarangi y'umuhondo n'amabati y'umutuku. Ifite imiryango itatu iteye amarangi y'umukara hanze hariyo ameza bacururizaho.

Imodoka ifite amarangi yenda gusa nk'umutuku. Imodoka itwara isabune iparitse ahantu haritara kandi hegereye ibiti hari n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Inyubako nyinshi ziri ahantu hari umuhanda, hari umukobwa uhahagaze n'umusore wicaye. Hari na moto ziri kugenda ziriho abantu. Moto ni nziza kuko zoroshya urugendo.

Inzu nziza yubakishije amakaro iriho imiryango itanu bacururizamo hanze hari intebe n'ibikapu.

Inzu nziza yubatswe hariho amakaro, harimo umugabo uri kwinjiramo, ndetse n'umwana uri kunyura mu muhanda, hari icyapa kigaragaza akabari.

Amabutike acuruza ibintu bitandukanye arimo ibiribwa cyangwa n'ibitaribwa, ariko umuntu ashora kugira ngo yiteze imbere kugira ngo ejo hazaza hazabe ari heza.

Inzu nziza zubakishije amatafari cyangwa se amabuye. Inzu zifite amarangi y'icyatsi n'umuhondo. Hahagazeho abagabo batatu bisa nkaho ari ikintu bari kuvugaho.

Ahantu bari gucuruza imyenda babashije kwiteza imbere babinyujije mu buryo bwo gucuruza imyenda. Gucuruza nabyo ni byiza ku buryo wabasha kwiteza imbere ejo hazaza hakaba hameze neza.

Inzu nziza yubakishije amakaro, hariho icyapa kigaragaza ko hari bare, hanze hariho ubusitani bw'indabo, hari n'intebe iha yicaye hanze.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa cya airtel cyanditseho "Wabisanga hano", harimo butike bari gucuruza, harimo imineke.

Ibidomoro bitanu by'amarangi, bitatu bisa n'umuhondo biri hasi, hejuru hariho ibisa n'umukara, byose bifite imifuniko y'ubururu.

Icyapa kigaragaza ahantu bacururiza isabune y'ifu yitwa Omo, hasi yaho hari ubucuruzi, ndetse hirya yaho hari umutaka bacururizamo mtn.

Ahantu hari igipangu gifite irangi risa n'umukara ndetse n'ubururu. Aha hantu biragaragara ko haba butiki, kandi abantu ni ukujya bagiye guhaha ibiribwa cyangwa ibinyobwa.

Inzu zubatse neza hariho amakaro, hanze hariho abantu bari kudoda n'umugore umwe uri koza ibyombo ,isuku ni nziza cyane, kubera ko tuba turi kwirinda indwara.

Ahantu urikubona ko hari iduka, ricuruza ibintu bijyanye n'ibitabo.

Icyapa kigaragaza ibintu aho bibera, iki cyapa kigaragaza bara na resitora, aho haba ikawa nicyayi.

Inzu zubatse neza zifite ibyapa hejuru bigaragaza ibyo bahakorera, hasi hariho imifuka myinshi ya sima kubona n'undi muntu uvuyemo guhaha.

Inzu nini cyane, igeretse inshuro nyinshi, hasi ya ho hari abantu bari kugenda, haparitse n'imodoka nyinshi, n'umukobwa uri mu mutaka wa Emutiyeni, urcuruza amayinite, n'umumotari uri gutwara abantu.

Umuyoboro w'amashanyarazi unyuze hejuru y'inzu, hari insinga nyinshi n'amabati ari ku nzu asa n'ayigunze.

Icyapa kigaragaza ahantu bacururiza isabune y'ifu izwi nka omo, isabune ni nziza kuko idufasha kumesa imyenda ku buryo hazamo n'agahumuro.

Inzu irimo abantu bakora umwuga w'ubucuruzi. Ubucuruzi ni bwiza cyane kuko butuma abantu biteza imbere cyangwa kuko bivana mu bukene.

Icyapa kiri kugaragaza ahantu bacuruza isabune y'ifu yitwa Omo. Aha hantu biragaragara ko ari kwa Firiberi.

Inyubako zubatse neza, zifite amakaro, n'inkingi ziteye amarangi y'ubururu, zifite inzugi zisa n'icyatsi, izi nzu zisa nk'aho bakoreramo ubucuruzi.

Inzu nziza yubatse neza ifite irangi ry'iroza, hirya hakaba hariho umuyoboro utwara amashanyarazi witwa ipoto, uriho insinga nyinshi.

Inyubako zubatse neza cyane, aha hari inyubako hari abagore bahahagaze hariho n'umuntu uri kubaha filime. umwuga wo gutanga filime ni mwiza cyane watuma umuntu ava mu bukene.

Ni inzu nziza yubakishije amategura agezweho, hariho icyapa kiri kugaragaza ngo hano hariho amaroji yo kuraramo.

Ahantu bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Hariho umuntu uri gufata impombo. Uri kubona ko hariho n'amajire bajyana kubaka.

Inyubako zubatse neza zirimo amarangi y'umutuku, ndetse n'imbere ziteye amakaro. Hari abantu bahicaye ndetse n'amagare apakiye ibirayi, ibirayi ni byiza cyane kuko bitunze abantu benshi.

Isoko bacururizamo ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi ni bwiza cyane butuma umuntu yiteza imbere akabasha kuba hari icyo yageraho, ubucuruzi bwagukura mu bukene kubera ko bubamo amafaranga.

Inyubako ziteye amarangi y'ubururu n'ay'icyatsi, bacuruza imbuto, hariho n' umuntu ukora muri Emutiyeni utanga amayinite, mu muryango harimo n'umuntu uri gucuruza.

Gucuruza bibyara amafaranga menshi, kandi ukaba wakwiteza imbere binyuze mu gucuruza, hari abantu benshi byabyariye inyungu.

Amapaki menshi arimo shamburayeri. Shamburayeri ni umupira ukoreshwa mu igare, kugirango ribashe kugenda.

Isoko ricuruza imikufe ndetse n'imikandara, urikubona ko ari byiza cyane.

Ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga ridufitiye akamaro kanini cyane, kuko ari n'iterambere mu gihugu.

Inzu nziza yubatse neza ifite amadirishya y'ubururu, iyi nzu biragaragara ko ari resitora kuko icyapa gihari kirabigaragaza, n'inzu iteye ifite na parafu iteye n' amarangi ajya gusa n'umukara.

Ni abantu benshi harimo abagore n'abagabo, abagore batatu bafashe icyapa cya koperative bishimye bari kugenda biruka.

Icupa cy'umweruru cyanditseho Laparume Hoteli, cyegereye ahantu hari ishyamba ry'ibiti.

Inyubako nini cyane, uri kubona ko iriho n'abantu benshi, hasi hariho urujya n'uruza rw'abantu, hariho na moto ya rifani, n'umunyonzi uri gusunika ibintu ku igare. Aha ni kuri hoteri yitwa jasite siti hoteri.

Inzu zubatse neza, ziriho ibyapa bigaragaza ahantu bigiye, icyapa kiriho Ines Ruhengeli, n'abantu bari mu mitaka ya eyateri, n'abantu bari kugenda n'amaguru.

Ibyapa bibiri bigaragaza ahantu hari hoteli. Hasi hariho urujya n'uruza rw'abantu hariho n'umuntu uri gucuruza amayinite ya MTN.

Ahantu habera ubucuruzi bw'inkweto. Ubucuruzi bw'inkweto ni bwiza butuma abantu bivana mu bukene bagatera imbere.

Umugabo uri gucuruza imyenda myinshi iri kuri namba wani ,ubucuruzi nibwiza mugihe iyo uri gutangira ubucuruzi, kuko nibwo bukuzamura bukakugeza ku bucuruzi bwo hejuru, ubucuruzi ni bwiza cyane.

Amazi ari mu macupa. Amazi bari kuyacuruza, amazi ni meza ku buzima bw'umuntu, amazi atuma umubyibuho ugabanyuka . Kandi amazi ni meza kubantu bose amazi yatanahari ntago abantu babaho.

Isoko ricuruza ibikapu, ibikapu ni byiza kuko bidufasha gutwara ibintu, hicayeho umugore usa nkaho ashaka kugura, umugore wambaye umupira w'umweru n'umukara, ndetse n' ikijipo cya londoni.

Ibishyimbo bitaruma biri ku nkoko ,hariho n'agakombe ibi bishyimbo bizwi ku izina ryitwa intonore. Ibi bishyimbo ni byiza, kuko iyo bitetse biba byoroshye kurusha ibyumye.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo harimo: udupaniye, indobo, amasafuriya n'ibindi byinshi, ibi bikoresho ni byiza bikoreshwa bari gushyiramo ibintu.

Gucuruza mu masoko atandukanye mu masoko harimo imyenda itandukanye y'abagabo cyangwa se niy'abagore nabo babashije kutiza.

Karoti. Karoti ziri mu base isa nk'ubururu. Karoti ziba nziza cyane iyo uri kuziteka mu biryo, kubera ko zibiryoshya.

Umugabo wicaye n' amasafuriya menshi, ari iruhande rwe n'umufuka usa nk'aho urimo ibyuma, ahantu wagira ngo ni ho bakorera amasafuriya bari kuyasudira.

Amavuta ari mu macupa ndetse n'andi ari m kadomoro. Amavuta ni meza cyane kuko aryoshya ibiryo.

Isoko ry'ibiribwa ahantu bari gucuruza isombe. Iri soko ryiganjemo abantu harimo abagore n'abagabo.

Uduseke. Uduseke dukoreshwa bari kugemuriramo abantu imyaka cyangwa se waba ugiye mu murima, ukaba wabasha gutwaramo imyaka uri kubona ko nta hantu wayitwara. Uduseke tworoshya gutwaramo ibintu, n'abantu ndetse baradukunda cyane.

Voka, voka ni ikiribwa, cyangwa se urubuto abantu bakunda cyane, kuko igira intungamubiri ndetse n'amavuta.

Abantu bakora imirimo itandukanye, kugira ngo biteze imbere, bari gushaka imirimo y'amaboko, kugira ngo ejo habo hazabe ari heza.

Amasoko acuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo amabasi, ibintu bitandukanye indobo ndetse n'ibiringiti bituma tubyifashisha mu rugo nk'amasuku nibindi bigiye bitandukanye.

Mu isoko ry'ibiribwa harimo ibintu bitandukanye: harimo intoryi, inyanya, ibijumba n'ibintu byinshi, higanjemo abagore n'abagabo baje guhaha n'abari gucuruza.

Isoko ry'ibintu bitandukanye harimo inkweto, ibikombe, n'ibintu byinshi n'amabote, n'amasabune, n'amavuta, harimo ibintu byinshi n'abantu bari kuhanyura bari bagiye no guhaha.

Isoko ry'ibintu bivangavanze ,harimo imyenda, amasaha, imikandara, ndetse n'amasogisi ,na bogisa ,n'ibindi byinshi.

Inzu nini igeretse inshuro nyinshi. Inzu uri kubona ko wagira ngo yubakishije ibirahuri, no hanze y'aho hari abantu bari mu rugendo.

Imigati iri mu mbase y'umukara, ni imigati uri kujya urabona ko ikozwe mu ngano.

Ubucuruzi mu masoko, gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa cyangwa se ibitaribwa, nabyo bitanga amafaranga ku buryo waziteza imbere mu gihe kizaza.

Ubucuruzi bw'ibiribwa, ubucuruzi ni bwiza cyane, kuko butuma abantu biteza imbere bakava mu bukene, ibiribwa na byo ni byiza mu mubiri w'umuntu.

Utumashu tune n'indiga ebyiri . Utumashu dukoreshwaga bari gutega imbeba iyo babonye ziri kubonera imyaka. Indiga zikoreshwa bari guhata ibirayi cyangwa ibijumba ndetse n'ibindi biribwa bikenera guhatwa.

Ibidomoro bipakiye mu mifuka ibiri. Umufuka umwe usa nk'icyatsi uwundi usa n'umutuku byegetse ku kigega.

Ahantu bacururiza ibinyobwa biri mu bwoko bwa ji harimo ji zitandukanye. harimo mirinda, hakabamo n'amafanta , n'izindi nyinshi harimo n'iziteretse ku meza.

Isoko bacuruzamo imyenda, hicaye umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara. Ari gucuruza imyenda igiye itandukanye harimo iy'abana, iy'abagabo n'iy'abagore.

Isoko ry'ibiribwa biciriritse: isoko ririmo intoryi, inyanya n'ibirayi n'abantu bari kubicuruza. Iri soko riraciriritse.

Umugore uri gucuruza imboga mu isoko ry'ibiribwa, imboga ni nziza zirinda indwara, kandi zikanongera amafaranga mu mushinga.